Ibi ni bimwe mu bikorwa Leta y'u Rwanda yegereje abaturarwanda. Aho bajya ku kigo nderabuzima, maze bakabuzuriza amafishi, barangiza bagatambuka bakavurwa.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kuvura abantu, aha hakaba hari abagabo babiri, bose bakuze, bose bambaye amakoti y'umukara umwe afite telefoni mu ntoki undi afite ibitabo.

Iki ni igikorwa cyo gusuzuma abarwayi babasanze aho batuye hirya no hino, umuganga wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa k'umweru afite ikirahure mu ntoki akaba aricyo ari kwifashisha asuzuma abarwayi.

Iki ni igikorwa cyo kuvura abaturage, aho abamama bicaye ku murongo ugezweho umuganga wambaye impuzankano y'umweru akamushyiraho igipimo gipima umuvuduko w'amaraso maze akareba uko umubiri uhagaze.

Umumama wambaye agapira karimo utubara tugiye dutandukanye, akenyeye igitenge cy'icyatsi nacyo kirimo utubara, akaba yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange. Leta y'u Rwanda yubakiye abaturage kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abaganga ni bamwe mu bantu bahuguriwe kugeza ubuzima ku baturage. Aha hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, irimo icyatsi kibisi. Akaba ari gusuzuma akana kamuri imbere, kambaye ingofero. Mama wako, ari kubireba, akishima cyane, agaseka.

Umuntu uri koga intoki ku ivomero rusange, amazi ari kuza ari menshi na we ari koga, koga intoki ni kimwe mu bikorwa biturinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane iziterwa n'umwanda.

Umwana muto wambaye agashati ndetse n'agakanzu byo mu gitenge, ari gukaraba intoki ku ivomero rusange, amazi ari gukaraba ari kugwa mu ibasi, koga intoki bituma umwana atarwara indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, aho bari kwigira hamwe icyakorwa, kugira ngo bahangane n'ubushita bw'inkende, iri huriro ryabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwacumi, muri bibiri na makumyabiri na kane.

Abana bato batatu, bari koga intoki ku bwogero rusange. Aho hose bishimiye, abana b'abanyarwanda batojwe kugira isuku, mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abasore ndetse n'inkumi, bakaba baje kuvoma amazi ku ivomero ryiza cyane ryubatse neza Leta y'u Rwanda yubakiye abaturage, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza binyujijwe mu kubona amazi asukuye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, ni mu nyubako y'ivuriro kwa muganga mo imbere. Harimo abirabura ndetse n'abazungu. Bakaba bishimiye uburyo aka kana kavutse katagejeje igihe kari kwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo kamere neza.

Abana bato cyane kandi benshi, bari kubyiganira ku ivomero rusange. Aho bose bari gushaka gukaraba intoki. Ni byiza ko buri mwana amenya ko gukaraba intoki ari byiza kandi agakoresha amazi meza ndetse n'isabune.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba imeze neza cyane, aha ni mu cyumba cy'inama, aba bahagaze aha bavuye mu nama, bakaba bari kwifotoza ifoto y'urwibutso kandi baganiriye ku bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuvuzi.

Aba ni abarwayi baje ku kigo nderabuzima, bakaba baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, harimo ababyeyi baje kuvuza abana, hakabamo abaje kwivuza ndetse n'abakiri bato baje kwivuza, iri vuriro ritanga serivisi kugira ngo abarigana bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abana bakiri bato, bakaba bari gukaraba kuri robine ifite amazi ari kuva mu kigega, aba bana bombi bakaba bishimye. Koga intoki ni byiza kuko bibarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga ndetse n'abandi bantu nk'uko bigaragara, ni abashyitsi bari basuye ikigo nderabuzima. Aha rero bakaba bari bari kuganira uburyo umuturage uwo ari we wese yagerwaho na serivise z'ubuzima, ku buryo bumworoheye.

Uyu ni umwana wambaye agapira karimo tubara akaba yaje kuvoma amazi ku ivome rusange, yasoje kuvoma ari kwinywera amazi akoresheje ibiganza bye, hirya ye hari ibiti byiza cyane bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Umupapa muremure w'igikara wicaye ku ibido ari imbere y'ivomero rusange, yishimiye iki gikorwa Leta yakoze cyo kubegereza amazi meza kandi asukuye, ibi byabaye mu Rwanda hose abaturage barabyishimira.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kwiga ku bibazo bimwe na bimwe byugarije ubuvuzi, haba mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange, ni abantu b'ingeri zose harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Iyi ni inama yitabiriwe n'inzobere zaturutse hirya no hino ku isi. Aho ziri kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije ubuzima bityo bagafata ingamba ndetse bakarebera hamwe uko byakemuka.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bari guhugurana, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, aho ari kugenda abasobanurira ko bakwiye kwita ku buzima bw'abana bakiri bato.

Leta yashyizeho gahunda zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, aha harimo gahunda zo kubaka uturima tw'igikoni hirya no hino mu gihugu, ni abantu bambaye imyenda isa bakaba bari mu gikorwa cyo gutera imboga.

Umwana wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru ari kuri robine, akaba ari koga intoki, koga intoki ni umuco mwiza ugezweho, imbere ye hari indobo bashyiramo amazi asukuye abana banywa.

Aba ni abana bato bose basutamye munsi y'ikigega kiri guturukamo amazi, bose bari gukaraba intoki bateze ibiganza kandi bishimye, amazi atuma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Abaganga ndetse n'abajyana b'ubuzima bateraniye ahantu hamwe bose barishimye, imbere yabo hari inzobere mu by'ubuzima. Ni umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'amarineti, inyuma yabo hari inzu y'ikigo nderabuzima. Igaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Mayange.

Aba ni abana bato bambaye impuzankano y'ubururu. Mu gatuza bose harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru agira ati: "Unicef". Aba bana bose bafite ubuzima bwiza kuko bitaweho.

Uwo mumama uri kogereza umwana we ku ivomero rusange irivomero rikaba rifite amarobine abiri risa ubururu, umwana uri kozwa yicaye mu ibase ya oranje, ibi bikaba biba mu rwego rwo kwirinda umwanda maze bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako y'ivuriro, aha ni kwa muganga. Hakaba hari umubyeyi uryamye hasi, muganga ari kumushyiraho icyumviro ku inda kugira ngo yumve niba ubuzima bw'umwana atwite bukiri buzima.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama iri kugenda yiga ku bintu bigiye bitandukanye. Harimo abambaye amabaji mu ijosi, imbere yabo bose hateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa, hakaba harimo umwari ufite indangururamajwi uri gutanga igitekerezo.

Aba ni abantu bari bari mu nama nyunguranabitekerezo ku bijyanye n'ubuvuzi akaba irangiye, aha rero bari mu bikorwa byo gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazahore bibuka ko iyo nama yabayeho.

Ibi ni ibiganza biteze munsi ya kandagira ukarabe, imbere y'aho hakaba hari isabune, gukaraba intoki bituma abantu bagira ubuzima bwiza bityo bakabaho nta burwayi bafite kandi batekanye.

Aba ni abana baje ku ivomero kuvoma amazi meza asukuye, hari umugabo uri kubavomera, ariko na we ararangaye, imbere y'aho hateretse amajerekani menshi baje kuvomeramo.

Ni benshi cyane bateraniye hamwe. Harimo abambaye impuzankano z'umweru, nkuko bigaragara ni abaforomo bari kumwe n'abaturage, bari babegereye bari kubasobanurira ndetse bigaragara ko baje bahagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ubuzima RBC.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byafashe iya mbere mu gutanga inkingo z'indwara y'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, aha hari umumama wambaye agapfukamunwa, akaba ahetse agashakoshi, ndetse n'umuganga uri kumutera urukingo.

Umumama ukenyeye igitenge ndetse wambaye n'ishati, yikoreye indobo y'umutuku, kaba afite indi y'umuhondo atengase. Ari gutambuka ava kuvoma, imbere ye hakaba hari ibiti byiza, biri kugenda bimuha umuyaga ahumeka.

Ni umwana wambaye agapira ka oranje, akaba ari kumwe n'umusore na we wambaye agapira ka oranje ndetse n'amarinete, ari kumutamika ibyo kurya, mu rwego kugira ngo agire ubuzima bwiza, bitewe nuko yitaweho.

Abajyanama b'ubuzima abaforomokazi ndetse n'abaganga, bari kwifotozanya n'umuganga w'inzobere wambaye ikote ry'umukara umaze kubaha amahugurwa, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Abasore ndetse n'inkumi bambaye, imipira myiza cyane y'ubururu iriho ikirango mu gatuza nk'uko bari gufata ifoto y'urwibutso bari bari mu mahugurwa ajyanye no kurengera ubuzima kandi baganiriza abaturage.

Abamama babiri bari ku ivomero rusange, bamaze kuvoma bari koga intoki ngo banyweshe amazi intoki, umumama uri kubavomera yambaye agapfukamunwa, afite imisatsi myiza y'umukara, inyuma yabo hakaba hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni baganga bateraniye ahantu hamwe, bakaba bambaye impuzankano z'abaganga, bambaye amabaje mu ijosi aho bari gufata ifoto y'urwibutso, bagaragaza ko bari mu kiganiro nyabugeni giteza imbere ubuvuzi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gusuzumira hamwe ikibazo cyugarije ubuzima. Aho bose bateranye kandi batuje, bari kuganira umwe atanga igitekerezo cye n'undi agatanga icye maze bagafata umwanzuro.

Umumama uri kumwe n'akana gato, hakaba hari umwari w'umuforomokazi ukiri muto, wambaye impuzankano y'umweru, ari gusuzuma aka kana uburwayi bwo mu nda, aho ari kugenda amusuzumwa.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuzima, bicaye ku ntebe z'umukara mu buryo bw'uruziga, harimo abamama ndetse n'abapapa, bakaba bari kugenda bigira hamwe ibibazo bigiye bitandukanye.

Iri ni ivomero ryiza cyane ryegerejwe abaturage, aho bamwe bajyana amajerekani bagatega undi akajya inyuma akabavomera, iri vomero ryubatswe mu bantu aho abaturage benshi cyane bari bakeneye amazi kandi meza.

Uyu ni umumama waje kuvoma amazi ku ivomero rusange, akaba yateze indobo ikaba yuzuye, inyuma ye hari undi mumama wambaye agasengeri k'umweru uri kuzamura icyuma kugira ngo amazi abashe kuza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba itangirwamo serivise z'ubuzima, aho uwahageze aba yageze iwabo w'ubuzima, adashobora kubura amagara kandi yageze aho atangirwa.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hanze mu busitani bw'ikigo nderabuzima, bakaba bari guhugurana aho bagenda bagirana inama, umwe atanga igitekerezo cye n'undi agatanga icye maze bagafatira hamwe imyanzuro.

Abaganga bateraniye ahantu hamwe imbere yabo ku meza hateretse imiti iri mu dukarito ndetse hari n'udukarito tujugunywamo imyanda, abaganga bose bambaye impuzankano bakaba biteguye gukora akazi kabo.

Inyubako nziza cyane nk'uko bigaragara zubatse neza kandi zubatse ahantu hamwe, hakaba hakorerwa ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aha rero buri muturage wese yemerewe kuhagera agakora maze akiteza imbere.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu kigo nderabuzima, bakaba bari guhugurwa, bose barakurikiye kandi nk'uko bigaragara bose bafite ishyaka ryo gukorera hamwe ndetse no kurinda burundu uburwayi.

Ubwo icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyari kirimbanyije, hari abiyemeje kuba abakorerabushake, bityo bakajya bapima umuriro ndetse n'abandi barabyubahirije.

Umugabo wambaye ikoti, karuvati, amarineti, akaba ari kumwe n'akana gato cyane k'akazungu, ari kumuha igikapu cyanditseho kiti, sura u Rwanda, ni byiza ko twamamariza igihugu cyacu.

Aba ni abaganga b'inzobere bakaba bihugura uko bukeye ndetse n'uko bwije. Bambaye impuzankano; babiri bambaye iz'ubururu, undi umwe yambaye iy'umweru. Babiri bafite udukarito mu ntoki.

Aha ni ahantu heza cyane hubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari ubusitani bwiza ndetse n'inyubako, ukaba wahatemberera, ukahatemberana n'abawe maze mukarushaho kunezerwa bitewe n'ubwiza bwaho.

Abana bari mu nyanja, aba bana bakaba bari gukora igikorwa cyo kwidumbaguza, ibi ntabwo ari byiza ababyeyi bakwiye kubibuza abana kuko bishobora kubatera indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abana babiri bicaye munsi y'ikigega kiriho robine. Iyo robine iri kumenekaho amazi. Aba bana bari gutega ibiganza ku mazi maze bakishima cyane bagaseka. Hafi aho hari ahantu hagaragara nko mu gishanga, nk'uko bigaragara aba bana barishimye.

Abana, abana bato cyane bahagaze ahantu heza cyane mu ihema. Imbere yabo hari ababyeyi babo ndetse hakaba n'abaganga, aba bana bakaba bagiye guhabwa urukingo kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Uyu ni umuzungu ufite indangururamajwi, akaba ari gutambutsa ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ubuzima, aho ari kubabwira uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo bityo bakirinda uburwayi.

Uwo mwana muto wambaye agapira ka oranje ndetse n'agapantaro k'ubururu, bamuhagaritse ku munzani upima ibiro kugira ngo barebe ibiro afite, akaba afashwe n'umusore na we wambaye agapira ka oranje ndetse n'amarinete. Aho bari kumusuzuma.

Umubyeyi wambaye igitenge akaba ateruye akana, atazanye kwa muganga kugira ngo bagahe ikinini cya vitamine, umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'amahererena ku gutwi, akaba ari kumuha ikinini.

Aba ni abasobanuriwe ingamba zafashwe na minisiteri y'ubuzima, zigamije kwita ku buzima ndetse n'ubuvuzi muri rusange, barishimye cyane, bateze amaboko bari kubyina.

Abari beza ndetse n'umusore bari kwifotoza, aho bamaze gusobanurira abaturage, ibyiza byo kwita ku bana, kubarinda uburwayi ndetse no kubaba hafi mu byo bakora byose.

Ababyeyi bambaye umwambaro wa Croix Rouge uri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bakaba bari kwifotoreza imbere y'inyubako nziza ifite irangi riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Hakaba hari n'indabyo ziri hafi aho.

Uyu ni umubyeyi uri kuvoma amazi kuri robine rusange, iyi robine izengurutswe n'ibihuru by'inshi ndetse n'ibyatsi, yatezeho ijerekani bikaba bigaragara ko badaheruka gukora umuganda kuko ibyatsi ni byinshi.

Iyi ni nyubako y'ikigo nderabuzima hakaba hahagaze abantu biganjemo abaganga. Bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo guhugurana no kwibutswa ko bagomba gutanga serivisi zinoze. Iri vuriro rikaba rifite irangi ry'ubururu, hakaba hashushanyijeho abantu bagize umuryango.

Uwo mumama uteruye umwana, imbere ye hakaba hari umuganga, uyu muganga ari kumusuzuma, abaganga begerejwe abaturage kugira ngo babashe kubaha serivise z'ubuvuzi mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Izi ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima, bamaze gukora inama yiga ku bijyanye n'ubuzima kandi bagafata n'imyanzuro igiye itandukanye aha bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana w'umuhungu wambaye agasengengeri k'umukara, ikabutura y'umuhondo, afashe isabune mu ntoki, ari koga intoki amazi agwa mu ndobo y'umuhondo, akana kamuhagaze imbere kari kumusukira amazi ava mu ibikira.

Umwana muto cyane, ari koga mu maso ku ivomero rusange, ari guseka cyane, Leta y'u Rwanda yakoze uko ishoboye, kugira ngo igezeze amazi meza ku baturarwanda bose, bityo babeho bishimye kandi bafite ubuzima bwiza.

Abana bato cyane kandi benshi bateraniye ahantu hamwe, hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga mo imbere yambaye ishati y'amaboko maremare akaba ari kubatera inshinge, bigaragara ko hari inkingo baba bagenewe kuko Leta irazitanga.

Iri ni ivomero rusange, hakaba hari abana baje kuvoma ndetse n'umumama nawe wari waje kuvoma, hari umwana uri inyuma uri kuzamura icyuma maze uri imbere agatega amazi, aha hantu hubatse neza, hakaba hari n'ibiti byiza cyane n'ubusitani.

Aba ni abantu bari kwivomera amazi ku ivomero rusange, ni umwana ukiri muto wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura k'umukara, akaba ari gukanda kugira ngo amazi aze, maze abashe kuvoma, aya mazi bayakoresha ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umwana ndetse n'umumama bahagaze imbere y'ivomero rusange bari kuvoma amazi. Iri ni ivomero Leta y'u Rwanda yubakiye abaturage mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi bahanganye n'indwara ziterwa n'umwanda.

Abagabo bigaragara neza cyane yuko bari mu nama ndetse harimo n'abadamu. Abari imbere bambaye amashati ndetse n'udupira, imbere yabo hose hateretse amazi. Nk'uko bigaragara bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima.

Aba ni abaganga bateraniye ahantu hamwe, bakaba bamaze kuganira ndetse no kurebera hamwe uko bateza imbere ubuvuzi, aha rero bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umumama uteruye umwana we, akaba afite ifishi mu ntoki, yaje ku kigo nderabuzima gushaka serivise z'ubuvuzi, bakaba bari kugenda bazimuha nk'uko abyifuza, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'abanyeshuri, bari kunywera amazi kuri robine, umwe arayajyaho agatega ikiganza akanywa, n'undi akajyaho agatega ikiganza akanywa amazi ni ubuzima kuko aba bana bayanywa bakishima.

Uyu ni umwana w'umukobwa waje kuvoma amazi meza cyane kandi asukuye ku ivomero rusange, yamaze kuvomera mu majerekani abiri asa umuhondo ndetse n'imwe isa ubururu. Akaba ari koga ku ntoki kugira ngo yikureho umwanda.

Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'ishuri akaba ari gukaraba intoki kurikandagira ukarabe irimo kabase k'umuhondo, inyuma ye hari inyubako yubakishije amatafarihiyi iriho inzugi z'umutuku.

Umumama ndetse n'umwana bahagaze ahantu hari imboga nziza cyane z'icyatsi. Bakaba bari kuzisarura bishimye. Ni byiza ko twese twita ku mafunguro ndetse n'imirire yuzuye.

Umukobwa wambaye agapira k'icyatsi kibisi n'isaha ku kuboko kwe kw'iburyo, ari kumwe n'umusaza wambaye amarinete ndetse n'ijire ya UNICEF, aho hari udukarito tw'ibyo kurya biteguye gushyira imiryango ifite ikibazo cy'amikoro.

Iri ni ivomero ryiza cyane rya rusange Leta yubakiye abaturage, hari abana baje kuvoma hakaba hari umukobwa uteze akabido n'undi muhungu uri kumukururira, bose baje kwirebera ibyiza Leta yabagejejeho.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, harimo: abasore, inkumi, abapapa n'abamama. Basoje amahugurwa ajyanye no kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umumama wikoreye igitebo kirimo imigozi, afite isuka mu ntoki, inyuma ye hari icyatsi kirandaranda, inyuma ye nanone hakaba inzu y'amategura, uyu mumama bigaragara y'uko yihagije mu mirire.

Aba ni abantu basoje amahugurwa y'ibijyanye n'imikorere y'ubwonko, ndetse n'ubuzima bwo mutwe muri rusange, aho bahagaze imbere y'icyapa cyiza cyane, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru wicaye hanze, uyu mukecuru ari guteka igikoma, acanye ku matafari y'amabuye, aho imbere ye hari ibikombe ndetse n'imifuniko yajugunye, uyu mukecuru akaba afite ikibazo k'imikorere y'ubwonko.

Umukobwa wambaye ijire y'umuhondo w'ikigo cya sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho rya MTN, akaba ari mu iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, akaba ari guseka cyane yishimye kuko ubwonko bwe bukora neza.

Umusore wambaye imyenda yacikaguritse akaba yisize vedanje mu maso yiwe ndetse no ku maboko, ahetse ibintu byinshi cyane ndetse afite n'ibindi mu ntoki, inyuma ye hari ikimodoka, uyu musore afite ikibazo cyo mu mutwe akwiye ubuvugizi.

Umwari mwiza cyane wiyicariye hasi akaba ari guseka, afite amenyo meza ndetse n'umusatsi mwiza kandi nk'uko bigaragara umutwe we umeze neza, ubwonko bwe buri gukora ku buryo yishimye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatse neza, ifite amabara ya pinki ndetse n'umuhondo, hakaba hari amagambo yanditsweho n'ibara ry'ubururu, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zijyanye n'isanamitima ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu bwonko.

Ahantu habaye ihuriro, bari hamwe hari abaganga ndetse n'izindi nzobere ziri gusobanurira abaturage ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko inyuma yabo hari ihema ririmo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru hakaba harimo intebe za platsike hiciyemo abantu benshi nk'uko bigaragara bari mu mahugurwa.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bicaye mu nzu y'inama, harimo urubyiruko, harimo abakuze ndetse ni ingeri zose, aha rero bari kuganirizwa n'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane ibyerekeranye n'ubwonko.

Iyi ni imodoka yifashishwa mu gihe batanga ibyo kurya bigiye bitandukanye bashyira abantu bafite ibibazo by'amikoro, aho bagenda bahereza bahereye ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Uwo mukecuru bigaragara ko ashaje, ateze agatambaro k'umweru, yambaye amaherere ku matwi, ndetse yambaye n'agakufe mu ijosi, ariko uyu mukecuru ameze nk'uri kurira yahungabanye akeneye abamugira inama.

Ni Abantu bicaye ku ntebe imbere y'inzu, nk'uko bigaragara harimo abamama ndetse n'abapapa, umumama umwe bigaragara ko afite ikibazo gikomeye k'ihungabana, aha rero bari kumuha ubujyanama kugira ngo bakomeze ubwonko bwe.

Ni umumama bigaragara ko yicaye mu iduka, ni umumama wambaye imyenda ikoze mu bitenge. Ari mu iduka ririmo ibintu bitari byinshi ariko arishimye. Ubwonko bwe bigaragara ko bukora kuko yihangiye umurimo.

Umugabo wambaye ibyenda byinshi byacikaguritse umubiri we wose yawujuje vidanje, maze aragenda afata igishushanyo akigira imbunda ari kugenda yigize nk'umusirikare uyu mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe.

Uwo musore wambaye imyenda yacikaguritse, afite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa adaheruka kogoshesha. Ari kumwe n'undi mugabo uri kumusuhuza wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro y'umukara, usa nkaho ashaka kumufasha kugira ngo amugeze kwa muganga.

Umwana uri kurira, amarira ari kumanuka ku matama ye, hakaba hari umumama ufite udukwi mu ntoki ndetse imbere ye hari akandi kana. Iyo umuryango ukennye uba uba ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Ugasanga imikorere y'ubwonko bw'abana babo ntabwo ikora neza.

Aba ni ababyeyi bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, hari umubyeyi wambaye ijire y'umukara, akaba afite agapfukamunwa ku kuboko, ari kumanika ngo atange igitekerezo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganiriza umugabo ubicaye imbere kuko bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, ubwonko bwe budakora neza. Yambaye imyenda itagize icyo itwaye ariko ameze nk'urwaye amavunja.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo umwari ukiri muto, uri gusobanurira ababyeyi ko iyo witaye ku mwana wawe akiri muto, bituma akura afite ubwonko bukora neza cyane.

Umusore uri kumwe n'umubyeyi, bateruye umwana w'umukobwa wiziritseho imyenda yacitse, unanutse, ufite umusatsi adaheruka kogosha, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe. Bari kumujyana kwa muganga kugira ngo bamuvuze.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, barahagurutse bose, bigaragara ko igikorwa cyaberaga aha kirangiye, kikaba cyari igikorwa cyo kubaganiriza ndetse no kubahugura ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, aho bagenda bagaragaza yuko ari byiza ko twateza imbere ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, bityo abazirwaye bakavurirwa ku gihe.

Ni umumama wicaye ahantu bigaragara ko ari mu gikoni cyangwa se ikizu cyasenyutse, yahambuye ibitenge byinshi yizirika amaguru, yambaye agapira k'umweru karimo amabara y'ubururu nk'uko bigaragara afite ikibazo gikomeye.

Aba ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, biganjemo abagabo bambaye amakoti ndetse n'abamama basa neza, aha rero bakaba bari bari mu mahugurwa yerekeranye n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umusore wubitse umutwe mu biganza nk'uko bigaragara afite ikibazo, aha rero hari umwana uri kugerageza kumuganiriza, kugira arebe ko hari icyo yamufasha, ariko uyu musore bigaragara ko ubwonko bwe bwangiritse.

Uyu ni umusore bigaragara ko ubwonko bwe butagikora neza akaba yicaye mu gipe cy'imodoka gishaje, imbere ye ahagaze abantu batari kugaragara mu maso ubona ko bamugiriye impuhwe.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'ishuri, barishimye bari guseka, bicaye hamwe, ikigaragara cyo aba bana imikurire yabo y'ubwonko imeze neza, iri ku kigero cyiza bitewe n'uko ababyeyi babo babitaho.

Umupapa ufite indangururamajwi mu ntoki, ari gutambutsa ikiganiro, abo ari kugenda agaruka kuri bimwe mu biranga abafite ubuzima bwo mu mutwe budakora neza. Aha rero bakaba bagenda basobanukirwa.

Umwana muto cyane, wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, yicaye mu ishuri, aho ari kurya biswi. Arishimye kandi ari guseka. Bigaragara ko imikorere y'ubwonko bwe, iri ku kigero cyiza.

Umumama wambaye igitambaro ndetse yakunje isura ku buryo buhambaye, yarakaye cyane, bigaragara ko ubwonko bwe butari gukora neza, akeneye ubujyanama.

Umumama wicaye hasi ateruye umwana. Imbere ye hari undi, ndetse no mu mugongo hari undi. Hakaba hari urutaro ruriho mironko irimo agaceri gake. Iyo mufite ubukene, ubuzima bwo mu mutwe buba bubagoye.

Umumama wambaye agatambaro akaba yipfutse mu maso, asa nk'aho ari kurira, yambaye ikanzu y'ubururu ari kumwe n'undi mumama ariko ukiri muto, wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu, uri kumugira inama amuhumuriza.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru irimo utubara tw'umukara, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi ndetse ari kumwe n'umumama wambaye ikote ry'ubururu, ufite imisatsi myiza, afite indangururamajwi mu ntoki ari kugenda atanga ikiganiro.

Umusore wagize ikibazo cyo mu mutwe, afite ibisatsi byinshi cyane ndetse n'ibyanwa, ntaheruka kwiyogoshesha, yambaye imyenda yacikaguritse, afite n'ibindi bintu mu ntoki ahagaze mu muhanda wa kaburimbo rwagati.

Bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe yizirikiye ku giti ari kwandikaho amagambo akoresheje igiti ariko inyuma ye hari abandi bantu bigaragara ko basa nkaho batuye mu mashitingi nta kabuza bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Abana bateraniye ahantu hamwe bari guseka barishimye bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, bakaba bari bari guhugurwa ndetse banasobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Umusore ufite ibisatsi byinshi cyane ndetse n'ibyanwa adaheruka koza, yambaye imyenda adaheruka gufura kandi byacikaguritse. Akaba yasamye afite amenyo yakutse. Uyu musore afite ikibazo cyo mu mutwe, Leta y'u Rwanda ikwiye kwita kuri aba bantu ikajya ibavuza.

Uyu ni umusore akaba afite urudodo mu ntoki ze, aho agiye kurwifashisha asukura amenyo ye bityo bigatuma agira amenyo asukuye kandi ameze neza.

Umwari mwiza, ufite amenyo yererana. Akaba ari gutungaho intoki ze zombi. Afite umusatsi w'umukara unyerera, akagira mu ijosi heza ariko reka twivugire ku menyo ye kuko arakeye.

Umwana muto cyane uryamye ahantu bavurira amenyo hari inzobere muby'ubuvuzi bw'amenyo, yamuryamishije mu maguru maze afite utuntu agiye kumushyiramo kugira ngo abashe kumuvura neza.

Umusore ufite urudodo mu ntoki, akaba ari kugenda yikuramo imyanda iri hagati y'amenyo, ari kugenda ashyira urudodo hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo akuremo imyanda igiye irimo, maze amenyo ye akomeze abe meza.

Abana bato bari koza amenyo, bafite uburoso bw'amenyo buriho umuti ndetse buri wese afite n'agakombe mu ntoki, bari koza amenyo bishimye barebana kandi baseka, ni byiza rero gutoza abana koza amenyo kugira ngo bayarinde uburwayi.

Umwana muto afite uburoso bw'amenyo, buri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Afite amenyo meza cyane kuko ayagirira isuku, ni byiza gutoza abantu kugirira isuku amenyo yabo kugira ngo birinde indwara.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri ndetse n'aho aherereye, kikaba gifasha abaganga b'amenyo kumenya ndetse no gusobanukirwa n'imiterere y'amenyo.

Umusore wambaye agapira k'umukara, akaba ari kugaragaza igishushanyo kiriho amenyo, afite amenyo meza cyane aho ari kugendayatungaho urutoki, ni byiza kugirira amenya isuku kandi ukayitaho.

Uyu ni umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi, yambaye amarinete, akaba afite imvi nyinshi cyane z'umweru mu mutwe, aha ahagaze imbere y'ivomero yifitiye mu nzu, aho ari kwita ku menyo ye ayasukura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, iyo ugiye kwa muganga ufite ikibazo cy'amenenyo, bakuryamisha kuri aka gatanda maze muganga wabigize umwuga akaza akakuvura.

Uyu ni umusore uri gukoza urudodo mu menyo ye, aho ari kuyasukura akoresheje buno buryo kuko iyo ukoresheje imyanda yose ishiramo bityo amenyo yawe akaba nta mwanda n'umwe kandi asa neza.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, iki gishushanyo gikunze kwigirwaho n'abaganga mu rwego rwo kugira ngo babashe kuvura amenyo.

Iki ni igikorwa cyo gusuzuma uburwayi bugiye butandukanye bwo mu kanwa. Uyu ni umwari w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru. Yambaye uturindantoki, akaba ari gusuzuma mu kanwa k'umwari mugenzi we.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afite urudodo arufatishije ibiganza byombi nk'uko bigaragara hari ikiganza cyari kiri kurumuhereza, ari kugenda yegura amenyo ye ayagorora neza cyane kugira ngo agororoke.

Umusore wambaye amarinete ni umusore mwiza ufite ubwanwa, yitunze agatoki ku itamo aho ri kugaragaza amenyo ye meza cyane, amenyo ye rero akaba yayitayeho, asa neza nkuko bigaragara ari kugaragaza ko amenyo yiwe ari meza.

Umusore uri gusukura amenyo ye. Ari kuyasukura akoresheje akadodo. Aho agenda agakoza hagati y'iryinyo n'irindi bityo umwanda wasigayemo, ukavamo maze amenyo ye agasa neza.

Iki ni igikanka, kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, iki gikunze gukorerwaho amahugurwa n'abaganga bavura amenyo, kugira ngo bihugure imirimo bakora.

Umwari uri kugorora amenyo ye, afite akanuzi ka parasitiki kariho urudodo, ari kugenda akoza hagati ya buri ryinyo, agenda akuramo imyanda yasigayemo, kugira ngo abashe kuyasukura.

Umusore ufite utwanwa duke twiza tw'umukara, ari kugorora amenyo yiwe. Afite akantu ka parasitike. Ari kugenda ayagorora gake gake kugira ngo ayakuremo umwanda, aho agenda akoza urudodo hagati ya buri ryinyo.

Aha ni mu ishuri. Mu ishuri ni byiza ko mwarimu aba afite ibikoresho yifashisha mu gihe ari gusobanurira abanyeshuri. Aha hari umubyeyi wambaye impuzankano y'abaganga uri gusobanurira umwana, afashe igikanka kirimo amenyo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, afite ikaramu mu ntoki, ari kugenda yandika ibyo ari kubona, kuko aho ari ni mu isuzumiro.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, aha ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, turi kubona umusore wambaye umupira w'umukara uryamye hasi, bamuzengurukijeho utuntu ku munwa, bakaba bagiye kumuvura amenyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ni ahavurirwa amenyo, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, inkuta zisize irangi ry'umweru, na ho abaganga na bo biteguye kuvura ababagana.

Umugabo uhagaze mu cyumba, iki cyumba kirimo amarido y'umutuku ariko abonerana hariho irangi ry'umweru, ari kwireba mu kirahure akareba iryinyo rye nk'uko bigaragara rero iri ryinyo aherutse kurivuza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho irageretse inshuro enye ikaba ikorotijwe ibyuma by'ubururu, ifite ibirahuri iyi nyubako bayivuramo indwara zigiye zitandukanye harimo n'uburwayi bw'amenyo.

Umusaza bigaragara ko akuze yicaye ku meza hari amoko atandukanye y'imbuto ndetse bigaragara ko bari kumusukira n'umutobe mu icupa bari kuwukura mu icupa bawushyira mu kirahure ni umumama bigaragara ko akiri muto akaba ari kumufasha amwitaho.

Umusaza udafite umusatsi, ufite ubwanwa bwinshi burimo imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki. Hakaba hari umwari w'umuforomokazi, uri kumusukira imiti mu kiganza kugira ngo ayinywe.

Umusaza ndetse n'umukecuru bakaba bari mu nzu, bose bicaye imbere y'ameza bafite impapuro aho bari kugenda bazisoma, iyo wize iteka ryose uhora usoma kuko ukora ubushakashatsi.

Umusaza n'umukecuru bari muri siporo, bose bambaye amasaha ku maboko y'ibumoso, bakaba bambaye udupira tw'amaboko magufi umukecuru afite umusatsi mwinshi urimo imvi n'umusaza afite mukeya ariko urimo imvi barishimye.

Umumama wambaye ikanzu y'igitenge y'amaboko magufi, akaba ari kuvurwa n'umuforomokazi wambaye impuzankano irimo ibara rya move, akaba afite icyumvizo mu ntoki, ndetse yambaye n'agapfukamunwa, ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso.

Umusaza bigaragara ko asheshe akanguhe. Hari umuntu uri kumwoza mu mutwe ndetse yicaye mu ibasi. Bagiye kumwoza umubiri wose. Ni byiza kwita ku bakuze kugira ngo na bo bakomeze kugira imibereho myiza.

Umupapa ndetse n'umumama bigaragara ko bose bakuze bicaye ahantu hamwe bari guseka, bari gusoma urupapuro imbere yabo hari ameza nkuko bigaragara barakuze kandi bakuze bishimye, bari gusoma bakisekera.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, akaba afite akantu baterura kugira ngo imitsi y'amaboko irambuke. Hari umumama w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ufite icyumvirizo mu ijosi. Ari kugenda amufasha kugorora ukuboko kwe kugira ngo uyu musaza yishime.

Aba ni babyeyi bakuze, bakaba bari kwihugura ibijyanye n'ikoranabuhanga, bafite telefoni igendanwa mu ntoki, aho umwe ari kuyikoresha, abandi barebamo ukaba ubona ko byabatangaje.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe hakaba higanjemo abakuze, hari umugabo waje ugendera ku kagare gafite amapine nawe akaba ari kwifotoza, ni byiza kwita ku bakuze kuko bibongerera amahirwe yo gukomeza kubaho.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, ari kumwe n'umumama w'umuforomokazi ukiri muto. Aho ari kugenda amufasha gutambukira ku twuma turi kwa muganga kugira agorore ingingo ze.

Umusaza wicaye hasi akaba ari kureba akantu bamushyize ku kuboko kagaragaza imikorere y'umubiri we, ari kubyitegereza ukabona ko na we yatunguwe. Ni byiza guhora twisuzuma mu rwego rwo kugira ngo twivurize ku gihe.

Umukecuru ushaje cyane yifashe ku munwa, yambaye amarinete afite imisatsi myinshi cyane ariko irimo imvi, yambaye agapira k'ubururu yicaye ku buriri, ameze nk'uri kunywa imiti kuko afite n'kirahure mu ntoki bigaragara ko kirimo amazi, aha rero n'aho abakecuru ndetse n'abandi bantu bakuze babategekwa kwiyitaho kugira bagire ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye agapira k'umuhondo, afite imvi nke mu musatsi ndetse no mu bwanwa, akaba afite agashumi ari kugenda agakurura ndetse ari kumwe n'umuforomo umwitaho kugira ngo amere neza.

Umukecuru ukuze cyane, ari kumwe n'abana be babiri, umusore ndetse n'inkumi, bakaba bari kumwarurira ibyo kurya. Bose barishimye. Ni byiza gusazira mu muryango kandi ukaba ufite amikoro.

Umusaza wicaye ku ntebe yambaye amarinete ndetse n'ishati y'amaboko maremare, arikumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu ufite imisatsi myiza cyane irambuye y'umukara. Ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Uyu ni umusaza wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara yambaye umukandara, akaba ari kugendera ku twuma tumufasha gutambuka, ari kumwe n'umwari w'umuforomo uri kubimufasha mu rwego rwo kugira ngo agorore ingingo.

Umumama ukuze wambaye ikanzu y'ubururu afite inkoni mu kuboko kwe kw'iburyo. Akaba yicaranye n'umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu ufite icyumvirizo mu ijosi, akaba afite ubwanwa bwinshi, bose barishimye.

Umumama ukuze, yambaye agasengeri ka pinki, akaba ari gukora siporo, yarambuye agakeka mu nzu, ari kugenda agorora amaboko, amaguru, umugongo, byose abikorera icyarimwe.

Ni umukecuru ariko nk'uko bigaragara aracyakomeye, araseka kandi arishimye, ari kumwe n'inkumi ziri kumuganiriza, ziramuganiriza maze bagakina umukino w'amakarita, agaseka cyane akishima, ashaje neza.

Abamama babiri bigaragara ko bakuze, bari kumwe n'undi na we ukuze ariko we atari cyane, afite telefoni mu ntoki bose barangariyemo bari guseka, ni abamama bambaye imipira y'umweru ndetse n'uw'umuhondo.

Uwo mupapa n'umwana bari gukina abantu bakuze bakunze gukina n'abana, kugira ngo bizamure urukundo ruri hagati yabo ndetse n'abo bana uyu mwana afashe umupira akaba ari gukina n'uyu mupapa.

Uwo umusaza uri kwa muganga bari kugenda bamutambutsa gake gake kugira ngo barebe ko yagenda, ari kugenda yifashisha utwuma tubiri kamwe kari iburyo akandi kari ibumoso, hakaba hari umuganga w'umuzungu uri kugenda ubimufashamo.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bari kumwe n'abana babo, aho bishimye cyane, iyo ushaje ufite abawe bakugeraho biragushimisha cyane, bityo bigatuma usazana ibyishimo.

Uyu ni umusaza yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro akaba yambaye n'amarinete, hari umwari ukiri muto w'umuzungu uri kugerageza kumwitaho, aho ari kumuhagurutsa ngo na we ahagarare ingingo ze zigororoke.

Umusaza wicaye hasi mu ntebe ya pulasitiki y'umweru, yambaye ishati y'ubururu, imbere ye hari umuforomokazi ukiri muto uri kumufungira ibifungo, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari ibiti.

Umusaza umaze gusaza. Ari kumwe n'umusore uri kugenda umutambutsa gake gake kugira ngo amugeze aho izuba riri kuva, maze agorore ingingo yote n'izuba abone gusubira aho aba.

Ibi ni bimwe mu byo abakuze bakunze gukoresha, aho bakunze guhora bicaye bakora utuntu tw'ubugeni, aha hari amasaro bifashisha, baboha udukufi tumeze neza bityo bakishima.

Umusaza bigaragara ko akuze, yicaye mu nzu akaba afite igikinisho ku meza ye, ari kugenda akina yimura akantu kamwe ndetse n'akandi, iyo ushaje uba ukeneye ibiguhuza kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza.

Uyu ni umukecuru ufite imisatsi myinshi irimo imvi nke, akaba afite utwuma rw'icyatsi kibisi, ari kudukoresha agorora amaboko ye ndetse n'ingingo z'umubiri mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Uyu ni umuryango uteraniye hamwe harimo umukecuru ndetse n'umusaza hakabamo abana babo ndetse n'abuzukuru bose barishimye ni byiza gusazira mu miryango kuko bituma ugira ibyishimo.

Aba bo ni abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, bambaye impuzankano y'umweru. Bose bafite ibyapa imbere yabo bigira biti: "Twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira."

Aba ni abantu bahagaze ahantu hamwe, basoreje igikorwa cyo gufata ingamba, ndetse no kuganira ku bijyanye n'ubuzima, aha bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe umweru.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bamaze gufata ingamba zigiye zitandukanye zo kurinda ndetse no gusigasira ubuzima, hakaba harimo abamama ndetse n'abapapa. Inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Aba ni abantu baturutse impande n'impande, hirya no hino, bakaba bose ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima. Bakaba bari kuganira hamwe, kugira ngo bafate ingamba zigiye zitandukanye, zo kwirinda uburwayi.

Abasore babiri, bose bambaye amakoti y'umukara, karuvati z'umukara, bakaba bamaze kuba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bose bishimiye kuba bakorana, kandi batanga ubuzima.

Iri ni ihuriro ry'inzobere ndetse n'impuguke mu bijyanye no kurwanya uburwayi ndetse no gushaka inkingo, bakaba bari kwigira hamwe bafata n'ingamba z'ukuntu icyorezo cy'Ubushita bw'inkende cyahagarikwa burundu.

Aba ni abagabo babiri, bose bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, aha bahuye maze bigira hamwe ibibazo bigiye bitandukanye maze bafata umwanzuro, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gihora gifata ingamba zigiye zitandukanye ndetse kigatanga n'amahugurwa ndetse n'inama ku baturarwanda bose, mu rwego kugira ngo bahore bafite ubuzima bwiza.

Iki ni icyumweru cyahariwe kwita ndetse no kurwanya mikorobe kwi Isi hose, indwara ziterwa n'umwanda zibasira abakiri bato, cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro, aho rero Leta yashyizeho ingamba zigiye zitandukanye zo kubafasha.

Umuganga wambaye impuzankano ikaba iri mu mabara y'umweru, ari kumwe n'akana kambaye umupira w'icyatsi kibisi aho uyu muganga ari kukitaho agasekera, ni byiza kwita ku barwayi kuko bituma bakira vuba.

Aba ni abantu bari mu mahugurwa aho bari kugenda bahugurana ibijyanye n'ubuvuzi ndetse bafata n'ingamba, Leta y'u Rwanda yishimira ko abaturage bayo bafatanya n'abaganga maze bakarinda ubuzima bwabo.

Aba ni abantu bakaba bari mu bikorwa by'ubukangurambaga, bakaba bafite icyapa kiriho amagambo agaragaza yuko buri wese agomba kubikora kandi agakuraho uburwayi.

Leta y'u Rwanda nyuma yo kubona ko indwara y'ubushita bw'inkende yageze mu Rwanda, yahise yihutira gufata ingamba zigiye zitandukanye, harimo kongera gukaza isuku, ndetse no kubuza abantu guhura cyane.

Uyu ni umugabo ushinzwe ubuzima, akaba agenda atangaza ingamba z'igihe zitandukanye Leta y'u Rwanda yashyizeho mu rwego rwo kwimakaza ubuzima buzira umuze mu baturarwanda.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kwirinda uburwayi cyane cyane ibyorezo, aho yafashe ingamba z'uko abantu bagomba kwirinda bagahana intera kandi bakambara udupfukamunwa mu buryo bwizewe.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko nta muntu ukwiye kwegera uwahuye n'indwara y'icyorezo atirinze, aha hari abantu bambaye impuzankano y'umweru, udupfukamunwa ndetse iyi pmuzakano iva ku maguru ikagera ku mutwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu gikorwa kijyanye n'ubuvuzi aho bari kuganira bafata ingamba zigiye zitandukanye, barungurana ibitekerezo ndetse bagafata n'ibyeyemezo, iyi ni inama.

Aba ni abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange, bafashe umwanzuro ko bagomba kugaragaza igihugu cyiza, aho buri muntu n'icyo akora agomba kugikorana umurava.

Umusore ndetse n'inkumi, bose bakaba bafite ibyemezo bahawe. Nyuma yo gufata ingamba zigiye zitandukanye zo gusigasira ndetse no kurinda ubuzima. Bose bahagaze ahantu heza. Inyuma yabo, hakaba hari icyapa gisa neza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kugenda bafata ingamba zigiye zitandukanye zo kwita ku buvuzi. Aho hari abicaye imbere. Bakaba bari gutambutsa ikiganiro, ababateze amatwi na bo bakurikiye.

Uwo mwari bigaragara ko akuze, yambaye ikote n'agapira k'umukara, yambaye ibaji mu ijosi, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari kugenda atambutsa imbwirwaruhame avuga ingamba zafashwe mu rwego rwo kwirinda indwara.

Aba ni abantu bicaye mu ivuriro, bakaba bari kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, aha bari gufata ifoto kandi bafite n'utwangombwa tw'ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho mu bukangurambaga bujyanye n'ubuvuzi.

Izi ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima, bakaba bateraniye hamwe ngo bakomeze kurebera hamwe icyateza imbere ubuvuzi, hari abantu babari imbere harimo n'umugabo ufite indangururamajwi, uri gutambutsa igitekerezo cye.

Izi ni ingamba minisiteri y'ubuzima yafashe, aho buri muturage wese agomba gufata urukingo rwa kovide cumi n'icyenda, nta ngorane kugira ngo arinde ubuzima bwe, iki cyorezo cyari gikaze kandi cyari gikomeye, buri wese agomba kwikingiza.

Umusore wicaye hasi wambaye ishati y'umweru, yambaye udupfukamunwa tubiri ari kumwe n'umukorerabushake, ubafite ubumenyi mu gutanga inkingo, akaba ari kumukingira uburwayi bw'icyorezo.

Izi ni zimwe mu ngamba zafashwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, aho bagira bati mu minsi itatu ugomba kugira ubuzima bwiza kandi ukaba ubayeho neza bakagaragaza impuzandengo ishushanyije neza.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'umukobwa w'umwirabura. Umugabo yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, umukobwa yambaye agakanzu. Bose bambaye amabaji mu ijosi, aho bari kwifotoza bagira bati:" Kwirinda ni ingamba nziza."

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, muri iyi nyubako harimo imashini zifashishwa mu gihe hari gusuzumwa ndetse harimo n'udutanda dufite amapine hasi hakaba hasashe amakaro.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti, hakaba hari umumotari uhaparitse wambaye kasike, hakaba n'undi muntu wambaye agapira k'umweru. Hejuru y'iyo nyubako hariho izina ry'iyo farumasi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bikorana nayo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo urujya n'uruza rw'abantu, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hakaba harimo n'ubusitani bwiza busa icyatsi kibisi, aba bantu bagiye mu bukangurambaga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo intebe nziza cyane z'umukara ndetse hakaba hari n'utumeza, kuri iyi nyubako hariho irangi ry'umuhondo, hakaba harimo umuntu witeguye kwakira uje ahagana.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, yubakishije amabuye; ikaba isakaje amabati atukura. Harimo akabaraza, abahagana banyuramo, kugira ngo baticwa n'izuba. Hakaba hari ubusitani bwiza, burimo amabara agiye atandukanye, imbere hari amapave, hari n'abantu bari gutambukamo.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba isize irangi ry'mweru imbere n'inyuma. Isakaje amabati y'ubururu hariho amagambo yandikishijwe amanyuguti y'ubururu agira ati "Inzu y'ababyeyi cyangwa Maternity". Hakaba hari ibiti biri hafi aho bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ifite inkuta ziriho irangi ry'umweru, hakaba abaganga babiri bambaye impuzankano y'umweru, bari kureba mu cyuma batunganyirizamo imiti kugira ngo bagire ibyo bakora.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe neza, ifite amarangi y'umweru ku nkuta, hasi hakaba hari sima y'umuhondo, inzugi ni umuhondo, aha hakaba ari mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize irangi ry'umweru, hasi hasashe amakaro, hakaba harimo intebe y'icyatsi kibisi, hari n'umwari uhagaze imbere, wambaye agapira k'umuhodo ndetse n'ijipo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga intebe, ameza, hakabamo mudasobwa ndetse harimo n'igishushanyo cy'ijisho, bigaragara y'uko hano havurirwa uburwayi bw'amaso.

Inyubako y'ivuriro iyi nyubako irimo icyuma gisuzuma abarwayi, uburwayi bw'umubiri wose, ku rukuta hasize irange ry'umweru hakaba hariho isaha, purafo isa umweru ndetse hariho n'amatara ari kwaka.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Hakaba harimo umumama urwariyemo, aryamye ku gitanda kiriho amashuka meza. Hakaba harimo imashini zigenda zimufasha kugira ngo bamenye ikibazo afite.

Umumama wambaye ikanzu y'igitenge ifite amaboko maremare irimo utubara tw'umuhondo ndetse n'ubururu, yicaranye n'umusore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, irimo ibara ry'ubururu, ufite n'icyumvirizo mu ijosi akaba ari kumuganiriza.

Aha ni mu ivuriro mu imbere harimo abaganga bambaye impuzankano ariko bipfutse hasi ndetse no hejuru, bambaye udupfukamunwa, bambaye ibitambaro mu maso ndetse bambaye n'inkweto zifunze. Hari abarwayi baryamye ku bitanda ariko nabo bahanye intera, nk'uko bigaragara bashobora kuba ari abarwayi ba kovide cumi n'icyenda.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'udutanda basuzumiraho abarwayi, hakaba ibyuma bifashisha, ku rukuta hakaba hasiho irangi ry'umweru, parafo ni umweru ndetse hakaba hari n'urukuta ruriho udushushanyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako harimo icyuma gisuzuma abantu mu buryo bw'umubiri wose, aho bakuryamisha kuri kano gatanda maze imashini iriho ikerekana ibibazo byose ufite umubiri wose.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iri mu irange risize amabara agiye atandukanye, harimo icyuma gisuzuma abarwayi aho bafata umurwayi bakamuryamisha kuri iki cyuma, maze indwara afite bagahita bazibona.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba iriho amagambo yanditse hejuru, yandikishijwe ibara ry'umukara, ari mu rurimi rw'amahanga. Hasi hakaba hateye uduti turi kuzamuka.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako irimo ibitanda, bigiye biryamyeho abarwayi, hakaba harimo amarido y'ubururu, ndetse hakaba harimo n'ibyuma bamanikaho amaserumo bashyira ku barwayi, hakaba n'udusanduku bajugunyamo imyanda.

Mu nyubako y'ivuriro harimo umumama w'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, hakabamo umwana w'umunyeshuri nawe wambaye impuzankano, uyu muganga ari gupima uyu munyeshuri umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako ifite amarangi agiye atandukanye harimo ay'umweru, hasi hakaba hari amakaro afite ibara ry'ubururu hejuru hariho amatara amurika, ndetse muri iyi nyubako harimo ibikoresho byinshi cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe neza isakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite irangi rya piki, mo imbere harimo intebe, hasi hari isima itukura, imbuga isashemo amapave, hakaba hazengurutswe ibiti bisa neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hakabamo imashini z'ikoranabuhanga zahariwe gusuzuma abarwayi zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako y'ivuriro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibimeze nk'ibigega, hakabamo ibimashini bifashisha bigiye bitandukanye hasi harasa ubururu hejuru ku nkuta harasa umweru iri vuriro rimeze neza.

Aha ni mu ivuriro mu imbere harimo ibitanda bigiye bitandukanye abarwayi baryamaho, imbere ya buri gitanda hari agasanduku bajugunyamo imyanda. Si ibyo gusa kuko hari n'udutanda umuganga yifashisha mu gihe agiye kuvura abarwayi.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite amatara meza cyane hejuru agenda amurika hasi, hakaba hariho inzugi zijya gusa icyatsi kibisi, inkuta zifite irange ry'umweru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba ifite parafo nziza cyane y'umweru, ifite inkingi zigabanyijwemo n'ibirahure, hakabamo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha mu gihe bari kuvura abarwayi.

Iyi nyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza, hari akana kegamye mu cyuma, hari icyapa kigaragaza gahunda z'iki kigo nderabuzima, amasaha batangira kuvuriraho ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umye hari akabaho kometseho ndetse hasi hari amakaro hari n'intebe bicaramo mu gihe bategereje, inzugi zifite ibirahuri.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iririmo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bigezweho cyane cyane iby'ikoranabuhanga, aha hari amagare meza ashobora gufasha umurwayi gukora siporo maze ingingo ze zikagororoka.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aha hakaba harimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma umurwayi mu buryo bwo gusuzuma umubiri wose, aho bamushyiraho maze bakamenya uburwayi afite.

Iyi nyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite imiryango itangirwamo serivisi hepfo ndetse no ruguru, hakaba harimo n'agasanduku gashyirwamo imyanda.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati y'umukara, isize amarangi y'umweru, ibirahuri ndetse n'amadirishya bisa umukara, mo imbere haparitsemo imodoka, hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro harimo inkuta nziza zisize irangi ry'umweru ndetse hasi kumande hagiye harihoho akarange kajya gusa umukara hakaba hari icyapa kigaragaza umuntu uramutse uje aremby aho yahita yinjira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako, ikaba ifite urukuta rwiza cyane rw'umweru. Ifite na parafo y'umweru, hakaba harimo igitanda baryamishaho umurwayi mu gihe bari kumuvura ndetse n'ibyuma bifashisha bamusuzuma.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo burambuye. Ikaba isakaje amabati y'ubururu, isize irangi ry'umweru mu imbere, hasi hakaba hasashe amakaro. Harimo umugabo wambaye impuzankano y'abaganga.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba ikorotirijwe inkuta z'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma by'umukara, imbere yayo hari imyicundo abana baje kwivuza barabazana maze bakaba babafasha kumera neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba igeretse inshuro eshatu, imbere yayo haparitse amodoka menshi, hakaba umutaka wa sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda ya Airtel. Kuri iyo nzu hariho icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro.

Ni mu ivuriro mo imbere, ivuriro ryiza cyane. Turabona ravabo ku mpande, tukabona udutanda tw'icyuma ndetse turiho na matera. Hafi aho hariho intebe, hakaba utubati, hasi hari amakaro ndetse ku madirishya hariho amarido.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako isize irangi ry'umweru, hakaba harimo insinga zitukura, harimo icyuma kinini cyane kimanitse hejuru ndetse n'igitanda kiri hasi, iki cyuma bakifashisha basuzuma abarwayi.

Inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye iyi nyubako irimo utugare ushobora gukora siporo, ikabamo ibyuma bipima abarwayi inkuta zikaba zisa oranje ha nyuma parafo isa umweru.

Uyu ni umwana muto cyane waje kwivuza. Bari imbere mu nyubako y'ivuriro ahantu hari ibikoresho byiza, umusore waje kumuvuza ari kugerageza kumurangaza amusetsa, muganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu nawe ari kugerageza kumuvura, amushimisha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro isize amarangi y'umweru ku nkuta ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, haba iby'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'ibindi bigiye bibafasha.

Inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba ifite inkuta zirimo irangi ry'umweru, inzugi z'umutuku. Imbere ku rugi rw'umukara hariho ibirahure by'umweru. Hariho abantu. Bigaragara ko hatangirwamo serivisi z'ubuzima kandi bakazihererwa ku gihe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako irimo amabara agiye atandukanye. Hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu, baje kwivuza. Bateye ihema hanze, bigaragara ko habaye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ni ndende mu buryo bw'ubutambike. Ikaba igeretse kabiri, haparitsemo imodoka. Hasi hari kaburembo ndetse hakaba n'uturabyo twiza.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri vuriro rikaba ryubatswe mu buryo bugezweho, ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byiza cyane bigezweho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho bashyiraho umurwayi maze bakabona uburwayi afite.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo ibitanda bishasheho matera. Harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Ku nkuta hariho utubati dushyirwamo imbuto ndetse n'ibindi umurwayi akenera.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, izwi nk'ikigo nderabuzima, hari abantu benshi cyane baje gushaka serivisi, mbere yuko bavurwa, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru, yatebeje ari kubanza kubahugura.

Umumama uteruye akana kakiri gato. Yakazanye kugahesha urukingo rwa mbere. Hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru. Agapfukamunwa k'ubururu, amarinete, akaba yambaye n'akagofero k'ubururu. Ari gutera urukingo uyu mwana.

Aya ni mashashi arimo amaraso ahabwa abarwayi barembye cyane kandi bayakeneye. Aya mashashi akaba aba yaturutse mu baturage biyemeje gutanga amaraso ndetse no gutabara imbabare.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo igitanda iki gitanda kikaba gishasheho amashuka, hariho imisego myiza hakaba n'imashini imanura serumu murwayi, kuri iki gitanda hariho imiti igenewe umurwayi.

Iyi nyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba irimo umugabo wicayemo, wambaye impuzankano y'ubururu, imbere ye hari mudasobwa ndetse hirya hakaba n'indi mudasobwa nini, akaba ari kureba muri izi mudasobwa zose ahuza ibirimo.

Inzu nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho. Iyi nyubako ikaba irimo ibyumba byinshi bitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, kandi ikaba ikoresha ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru.

Inyubako y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe n'amabati y'ubururu, hari abantu bari kuyitambukamo aho bavuye gushaka serivisi zubuzima, hanze hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Matyazo.

Inyubako y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite inzugi z'umweru zifite ibirahure by'umweru, hashushanyijeho amagambo agira ati: aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hari ameza ateretseho mudasobwa, hakaba umuganga wambaye impuzankano y'umweru. Ari imbere y'imashini, bigaragara ko ari gusuzuma zimwe mu ndwara.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'ubururu uturindantoki tw'ubururu afite icupa ry'umuti muntoki, ari ku imashini yabugenewe isuzuma ubuziranenge arikureba niba uwo muti wujuje ubuziranenge.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako ikaba ifite inkuta ziriho irangi ry'umuhondo ndetse n'ubururu, izi nyubako zubatse mu buryo burambuye hakaba harimo ubusitani bwiza ndetse n'igiti kinini gitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako y'ivuriro iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bigezweho, aho iyo ugiye kwivuza babanza kugucisha mu cyuma maze bakamenya uko ubuzima bwawe buhagaze ndetse n'uko bagufasha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, hari iyubatswe mu buryo buzengurutse ndetse n'indi yubatswe mu buryo burambuye, zose zikaba zifite ubusitani imbere yazo.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro. Aha turi kubonamo imbere, hari kugaragaramo ibikoresho byifashishwa bapima indwara zigiye zitandukanye. Hakaba harimo inkuta ziriho irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo. Harasa neza cyane kuko hasi harimo n'amakaro

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba ifite purafo y'umweru, ikagira ibikoresho bigiye bitandukanye mo imbere, harimo imashini zikoreshwa n'ikoranabuhanga, igihe bari gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ifite inkuta nziza cyane zisize amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Harimo umuganga wambaye impuzankano ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, ahaganye n'undi muganga. Inyuma yabo hari n'abandi b'abazungu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibirahure by'ubururu ndetse n'umukara isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani burimo umukindo muremure utanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo agatanda k'ubururu ndetse hakaba n'akantu gakorotiriye mu ibara ry'ubururu, harimo udutanda ndetse n'udutebe umuganga yicaraho mu gihe ari kuvura.

Abari batatu bambaye impuzankano z'ubururu bateze ibitambaro by'umweru bahagaze imbere y'agahanda k'igitaka, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane ndetse n'imikindo bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatse neza cyane ikaba yakira abarwayi benshi, mo imbere harimo Idarapo ry'Igihugu ndetse n'ubusitani bwiza cyane bugizwe na pasiparumu z'icyatsi.

Umumama wambaye ishati y'umweru n'agakufe mu ijosi, akaba ateruye akana kakiri gato kamaze kuvuka, ari kumwe n'umuforomokazi wishimye wambaye impuzankano y'ubururu irimo akabara k'umweru mu ijosi ndetse n'amarinete.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti. Harimo umukiriya wagiye kuyigura ndetse harimo n'utubati turimo amoko y'imiti agiye atandukanye, haba iyo mu makarito ndetse no mu macupa, bakaba bari kwigurira.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, imbere yayo, turi kuhabona abari bameze neza cyane. Bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, bafunze ibipfunsi, aho bagaragaza neza yuko biyemeje guhangana n'indwara maze bakavura abaturage.

Iyi nyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba irimo ibikoresho byifashishwa hasuzuma abarwayi, hari udutanda turi hasi, utu dutanda baturyamishaho umurwayi maze icyuma kiri hejuru kikagaragaza uburwayi afite.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkuta zihakorotiriye zubakishijwe amabuye ndetse hejuru hakaba hariho ibyuma, hakaba harimo abantu baje gushaka serivisi z'ubuzima ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako harimo ibitanda byiza cyane bishasheho amashuka y'umweru. Harimo amarido y'ubururu, harimo umuforomokazi wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi yayitebeje. Muri iyi nyubako harimo inkuta zisize irangi ry'umweru.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ikaba irimo intebe nziza z'imisego ushobora kwicaramo igihe utegereje. Hakaba hari udushushanyo turimo amabara agiye atandukanye. Inkuta z'iyi nyubako zikaba na zo zifite amabara atandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro enye, ikaba ifite ibirahure by'ubururu ndetse imbere yayo hateye imikindo myiza cyane, izana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakaje amabati y'ubururu, harimo ubusitani bwiza cyane bufite ibiti bigiye bibengerana.

Inyubako y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru. Hakaba hari abantu baje kuhivuriza. Nk'uko bigaragara aha ngaha ni ku isuzumiro. Hakaba hari utwatsi twiza.

Inyubako nziza cyane yivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite ibirahure by'umukara, ifite inkuta nziza, ndetse ifite n'ahantu haca umwuka abarimo imbere bahumeka.

Aya ni amoko y'imiti gakondo igiye itandukanye, aho ushobora kuyifashisha wivura uburwayi bugiye butandukanye cyane cyane ku bantu bakora siporo.

Uyu ni umusore wicaye ahakorerwa siporo, yambaye imyenda ya siporo umubiri we wose, akaba yicaye hasi, aho ari kugenda agorora ingingo ze mu buryo bugezweho.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, aho ukora siporo gishobora kumwereka ingano y'imbaraga ari gukoresha ndetse n'izo akeneye ubwiwe.

Akana karyamye hasi, bari kugerageza kugakorera siporo kugira ngo bakugororere ingingo. Ni umuzungu uri kugenda ukagorora. Hafi aho hateraniye, abantu benshi. Aka kana ariko nk'uko bigaragara, karananiwe cyane.

Umusore wambaye agapira k'ubururu afite ekuteri mu ijosi, afite icupa ry'amazi naryo risa ubururu aho ari kuyanywa, avuye muri siporo arahagarara abanza kunywa amazi kugira ngo aruhuke.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, akaba afite icupa ry'amazi. Ari kuyanywa araramye, asoje gukora siporo, ari kubanza kunywa amazi kugira ngo atambuke ataha afite imbaraga kandi ahumeka neza.

Umusore bigaragara ko yari muri siporo yambaye kasike mu gahanga ndetse yambaye ga mu ntoki akaba yambaye imyenda ya siporo yikubise hasi maze abaganga bari kumuvura bamufashe, rero nk'uko bigaragara ahangaha hakorerwa siporo.

Uumukobwa mwiza cyane yambaye agapira k'umutuku yambaye ekuteri mu matwi, afite agacupa k'amazi mu ntoki ndetse ari kuyanywa, nk'uko bigaragara uyu mukobwa ari gukora siporo nk'umuti yandikiwe na muganga kandi apima neza niba yakurikije amabwiriza.

Inyubako ikorerwamo siporo, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki. Akaba afite umupira w'umutuku mu ntoki ze. Imbere ye hari akamashini kifashishwa hazimya inkongi y'umuriro.

Iki ni ikirahure giteretse hasi, bakaba bari gusukamo amazi meza cyane kandi asukuye yifashishwa n'umuntu uvuye muri siporo, aho ayanywa bityo akagira ubuzima bwiza.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye. Ari mu macupa atandukanye, ariko kandi yose yifashishwa mu kuvura abantu bagiriye imvune muri siporo zigiye zitandukanye.

Uwo mukobwa wambaye agasengengeri ka orange yambaye ekiteri z'umweru mu matwi, yambaye isaha yumukara ku kuboko, akaba ari gukora siporo ari kuzikora ahagaze ananura amaboko ndetse n'umugongo akazikorera ahantu heza hitegeye imisozi.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu gihe hari gukorwa siporo, aho bagifunga ku kuguru k'umuntu wagize ikibazo cyangwa se ukuboko bityo urugingo rwe ntiruhinamirane.

Aka ni akoma gakoreshwa gakora bakora siporo, akangaka rero umuganga ashobora kukakwandikira ukagakoresha murugo kugira ngo ugorore amaboko, imitsi y'agatuza ndetse n'ahandi hose, maze ugire ubuzima bwiza.

Umukobwa uvuye muri siporo afite gurude ku munwa ari kunywa amazi ni umukobwa wakoze siporo akaba afite isume ku rutugu nk'uko bigaragara akora siporo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza nk'uko muganga yabimubwiye.

Iri ni icupa ririmo umuti. Uyu muti ukaba wifashishwa n'abakora siporo, aho uwushyira mu kiganza maze ukica mikorobe zose ziba zaje mu biganza byawe, bityo bikakurinda kuba wagira uburwayi.

Umuntu wambaye umwambaro wa siporo, inyuma ye hari umuforomokazi, ari kumufasha gukora siporo gake gake, siporo ni ubuzima hari ubwo ugiye kwa muganga bakakwandikira gukora siporo, ukayikora neza kugira ngo umubiri wawe umere neza.

Uyu ni umwari uri muri siporo, yambaye agasengengeri gato cyane afite imisatsi miremire akaba yunamye kugorora umugongo, amavi ndetse n'amaboko akaba ari gukorera siporo ahantu heza cyane yasashe amapave.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa hagororwa ingingo z'umuntu wagize ikibazo cy'imvune ari muri siporo, ni igare ushobora kwicaramo bikakugorora ingingo z'umubiri wose.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gukora siporo yiyicariye mu nzu, ahantu hasa neza cyane. Aho ari kugorora amaguru, amaboko ndetse n'umugongo.

Aya ni amacupa arimo imiti ikoreshwa n'abantu bari gukora siporo. Iyi miti ifungiye mu macupa y'umweru ikaba ifite n'imipfundikizo y'umweru. Hariho icyapa kigaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukora.

Igikapu kibikwamo imiti yifashishwa mu gihe cya siporo inshuro nyinshi y'abantu bagiye muri siporo bajyana n'umuganga ufite imiti y'amoko agiye atandukanye mu gikapu, iki gikapu rero kigizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umukara, hakaba harimo amoko y'imiti nk'ibinya ndetse na pomade.

Uwo musore wambaye agapira gato cyane k'umukara, afite icyuma kinini ari guterura kugira ngo amaboko ye akomeze abyimbe, ahagaze mu nzu ikorerwamo siporo, siporo ni ubuzima tujye tuzikora kandi tuzikunze.

Umusore wazindutse mu gitondo cya karekare nka saa kumi n'imwe, akaba yambaye agapira k'umukara n'ikabutura y'umukara, ari muri siporo ari kugorora, amaguru, amaboko ndetse n'umugongo, siporo ni ubuzima tujye tuzikora kandi tuzikunze.

Aka ni agasanduku kari kumwe n'imiti igenda yifashishwa mu gihe cya siporo, aho tubona mo bande, tukabonamo ibinya, umukasi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byafasha umuntu uri muri siporo.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ari gukora siporo. Yicaye ahantu heza cyane hari indabyo ziri mu mabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo. Ari kugorora amaboko, umugongo ndetse yahinnye n'akaguru kamwe.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo ndetse n'amafunguro uba ugomba gufata, hari inkweto, hari bande, hakaba ikinya ndetse hari n'ibyo kurya birimo urusenda, pome, avoka ndetse n'inyanya.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo. Turi kubonamo amagare y'umukara unyonga atava aho ari, ahubwo akagufasha gukomeza ingingo zawe.

Iyi ni inyubako ivurirwamo abagize ibibazo bari muri siporo, harimo abaganga bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'abaforomo bari kubafasha na bo bambaye impuzankano z'ubururu.

Ahantu henshi habera imikino ndetse n'imyidagaduro, usanga haba hari abantu bambaye amajiri yanditseho kuruwaruje Rwanda, nkuko tubizi rero iyo kuruwa ruje ifasha abantu ikabatabara kandi ikabihutana kwa muganga.

Iyi ni inyubako ikorerwa muri siporo, ikaba irimo ibyuma bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo n'agatanda gafite amapine. Hahagazemo umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, ipantaro y'umukara, inkweto z'umuhondo ndetse n'uturindantoki.

Umusore wagize ikibazo k'imvune mu ivi rye ubwo yari muri siporo, afite agashashi ari gukoza urugingo rwavunitse agenda arugorora kugira ngo rukire maze yongere atambuke neza.

Igikapu kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, hakaba harimo imiti ndetse n'ibikoresho wakwifashisha mu gihe ugiriye ikibazo muri siporo. Ni byiza ko witwaza ga, pomade ndetse n'ibindi byagufasha mu mu gihe wagirira ikibazo muri siporo.

Igikapu cy'umutuku ndetse umukonde wacyo n'umukara hariho umusaraba ushushanyije mu kazeru k'umweru, ndetse n'uwo musaraba uri mu ibara ry'umweru hari amoko menshi y'imiti iri mu ducupa twa purasitike ndetse niri mu ducupa tw'ibirahure, hari ga hakaba bande ndetse n'indi bikoresho byifashishwa mu gihe bari muri siporo.

Iki ni icyuma cyabugenewe mu gukorerwaho siporo nk'uko bigaragara rero gifite udupine tune, kikaba kiriho udutsinga ndetse na kamera ukora wireba, muganga ushobora kukwandikira siporo maze ukaza ukazikorera hano.

Aka ni agakarito karimo imiti yifashishwa mu gihe cya siporo, imbere y'aho hateretse bande babumbira kuwagize imvune mu rwego kugira ngo ingingo ze zisubirane bityo abone uko atambuka.

Aya ni amoko y'imiti yifashishwa mu gihe cya siporo, hakaba harimo agacupa karimo umuti uvura ububabare ndetse n'akandi karimo umuti ukomeza amagufwa bityo bigatuma wafasha abari muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengengeri k'umweru gato afite imisatsi myinshi imanuka mu mugongo, yambaye ipantaro y'umukara imwegereye cyane, ari kwinanura ari kugenda akorera siporo imbere y'umugezi.

Inyubako nziza ikorerwamo siporo, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari imidari imanitse hejuru, hakaba udutanda baryamamo mu gihe bakora siporo ndetse n'igare batwara ritavuye aho riri. Harimo abantu baje muri siporo.

Umusore uri muri siporo afite amaguru akomeye cyane, ku maguru ye hashushanyije utuzigira ak'ubururu ndetse n'ak'umutuku, ari gukorera siporo ahantu hasa umukara kandi agerageza gukomeza umubiri.

Uyu ni umuntu uryamye ku gatanda, bakaba bari kugenda bagorora ingingo ze. Yagize ikibazo cy'imvune, ubwo yari ari muri siporo. Aha hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umukara, uri kugenda umugorora kugira ngo yongere amere neza.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu gihe hari gukorwa siporo. Hari umwari w'umuzungu ufite telefone itagendanwa, imbere ye hakaba hari mudasobwa irimo amagambo. Hakaba hari n'ibindi byuma bigiye bitandukanye.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo ndetse n'amafunguro ushobora gufata mu gihe wakoze siporo kugira ngo umere neza. Harimo udupine, hakabamo ibyuma bikomeza amaboko. Hari amagi, hakaba imineke, pome ndetse n'urusenda.

Uwo musore wambaye agapira k'umweru, yambaye ekuteri z'umweru, afite icupa ry'amazi ari kugenda ayanywa, ni byiza ko tunywa amazi, cyane cyane mu gihe turi gukora siporo, kuko bituma umubiri ukomeza gukora neza.

Iyi ni ingobyi yifashishwa aho ikoreshwa mu bikorwa rusange, cyane cyane ibya siporo aho iyo umuntu agize ikibazo bamuryamishaho bakamuterura bakamugeza aho aherebwa ubufasha.

Umusore wambaye ijakete ifite ingofero, akaba yicaye hasi, afite icupa ry'amazi rifite ibara ry'umukara, akaba ari kuyanywa, avuye muri siporo arananiwe, ari kunywa amazi kugira ngo aruhuke.

Aha ni ahakorerwa siporo, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo icyuma kigorora umubiri, aho wicaramo maze umubiri wawe ukagororoka. Hakaba harimo n'utubati turimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri icyo gikorwa.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye. Izi siporo umuntu azikora yazandikiwe na muganga nk'inyubako nziza cyane irimo ibikoresho byinshi cyane by'ikoranabuhanga, harimo ibyuma ndetse n'ibindi byose wakwifashisha muri siporo.

Ahantu hateraniye abantu benshi, aba bantu bose bambaye impuzankano y'abakorerabushake bakorera mu itsinda rizwi nka"croix rouge",aba rero bari gufasha umuntu wahuye n'ikibazo, bari kumukoresha siporo gake gake kugira ngo umugongo ugororoke.

Umwari wambaye agasengeri gato cyane kagaragaza inda ndetse n'umukondo, yambaye ipantaro y'umukara imwegereye. Ari kugorora amaboko, imisatsi ye ijya kureshya n'agasengeri yambaye mu mugongo ndetse imbere ye, hakaba hari amavaze arimo indabyo nziza.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gihe cya siporo, aho bagishyiraho umuntu bityo bikagaragaza ibirometero yagenze ndetse n'imbaraga yakoresheje bigatuma abakora siporo bamenya ikigero bagezeho.

Umusore uri muri siporo yambaye umupira w'umutuku, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto za siporo, afite umupira mu ntoki, ari kugenda asimbuka adashaka gukandagira mu turongo tw'umweru, umutoza we nibyo ari kumubwira, amuhagaze imbere.

Iyi ni ingobyi yifashishwa mu gihe ahantu hateraniye abantu benshi, cyane cyane mu bikorwa bya siporo. Aho usanga umuntu agize ikibazo bagenda bakamuterura, maze bakamugeza ku ivuriro.

Ubu ni ubwoko bw'ibikoresho ushobora kwifashisha ukora siporo ndetse n'amafunguro uba ugomba gufata kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumererwa neza, harimo ibikoresho bya siporo, hakabamo metero, ibinini, imidari, imineke ndetse n'amaronji.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ari gusuzuma uburwayi bwo mu kanwa aka kana, aho agenda agakoresha siporo, ndetse hakaba harimo n'umupapa n'umumama wambaye udupfukamunwa.

Umusore wambaye isengeri, afite icupa ry'amazi ry'ubururu arararamye ari kuyanywa, bigaragara ko asoje siporo akaba ari kuruhuka, yakoreye siporro ahantu heza hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni nyubako ikorerwamo siporo. Hakaba harimo umukobwa w'umuzungu wicaye hejuru mu cyuma gikaraga abantu. Hakaba hari umugabo w'umuzungu umuri imbere uri kugenda umwerekera ibyo akora na we wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Utu ni uducupa dutatu, tukaba turimo umuti wifashishwa mu gihe cya siporo. Aho iyo ugize ikibazo, bagushyirira ahakomeretse cyangwa se aho ubabaye bityo ububabare bukagabanuka.

Umwana w'umusore wambaye agapira gatukura, akaba yambaye nomero mu gatuza, uyu mwana yagize ikibazo ubwo yariri mu irushanwa, arangije abakorerabushake bamuha ubutabazi bwihutirwa.

Umupapa w'umuzungu uri muri siporo yaziritse ukuguru kwe ku cyuma maze ari kugorora aryamye hasi, aho abikorera rimwe no kugorora umugongo siporo ni ubuzima tuzikore kandi tuzikunze.

Uyu ni umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi. Akaba afite icupa ry'amazi. Ari kuyanywa. Aha akaba ahagaze ahantu hitegeye ubwo yari asoje siporo, kugira ngo abanze asome ku mazi aruhuke.

Umukobwa wicaye hasi, yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'agakabutura kagufi. Yavunitse munsi y'ivi maze ashyiraho igipfuko. Ari kugenda ashyiraho agatoki kugira ngo kigumeho maze urugingo rwe rusubirane.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi afite icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu akaba ari kuyanywa, avuye muri siporo ari kunywa amazi mu rwego rwo kugira ngo agarure imbaraga yatakaje bityo agire ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo, hakaba hari umuganga uri guhugura bagenzi be, afite imashini iriho amashusho akaba ari kubereka, bose barakurikiye, bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo k'imvune mui ivi, hakaba hari muganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'akumvizo mu ijosi ari kumukandida gake gake amukoresha siporo kugira ngo iri vi rigororoke.

Abana bari babiri babyutse mu gitondo cya kare kare, bambara amasengeri ndetse n'amakabutura, barangije bafata amacupa y'amazi bajya muri siporo, bari kuzikorera ahantu heza, ubona ko hitaruye imisozi hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Umuntu ukiri muto ahagaze mu muhanda rwagati, uyu muhanda ni uwa kaburimbo, afite utwuma mu maboko ye yombi turiho amapine, ari gutambuka tumufasha kugenda imbere ye hari muganga, ari kugenda amubwira ngo ngwino gakegake, ndetse afite n'umupira bigaragara ko bari buwukine.

Umusore wambaye agapira k'amakoboko magufi afite icupa ry'amazi akaba ari kurinywa, avuye muri siporo none abanje gufata amazi kugira umubiri we uruhuke maze akore indi mirimo.

Aba ni abantu bari muri siporo, bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye iri mu mabara. Bakaba bari gukina umukino w'amaboko, siporo ni ubuzima tuzikore tuzikunze, bityo turengere amagara.

Uwo mwari ukiri muto, wambaye agasengeri gato k'umukara kagaragaza umukondo, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'akuma gapima ibirometero yakoze, akaba afite icupa ry'amazi arikurinywa aho asoje siporo.

Aya ni amoko y'ibikoresho ushobora kwifashisha kandi by'ibanze, mu gihe ugiye gukora siporo, harimo uturindantoki, hakabamo umuti uzwi nka pomade, hakabamo bande ushobora kwizirikaho, mu gihe urugingo rwawe rugize ikibazo.

Agacupa gato gafite umupfundikizo w'umweru, gashushanyijeho uruyuki. Aka gacupa karimo umuti gakondo, gateretse ahantu hasa umukara. Uyu muti wamaze gutunganywa ubu wawunywa ukakuvura.

Ubu ni ubwoko bwibimera. Iki kimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, aho kifashishwa mu gutegura umuti i gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, aho babitunganya neza cyane.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bivamo umuti gakondo, aha bikaba biri mu mirima aho bihingwa. Iyo bagiye kubikoramo umuti barabisarura, bakabyanika, barangiza bakabitunganya bikavamo umuti.

Amacupa meza cyane arimo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo. Aya macupa akaba ashashagirana. Ni amacupa afite imipfundikizo igiye itandukanye. Hari afite iy'umutuku, iy'umukara ndetse n'iy'icyatsi kibisi.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'icyatsi kibisi gafite ikora ry'umuhondo, akaba afite ikimera gifite amababi manini, akaba ari icyo bifashisha bakora umuti gakondo uvura mu buryo bwizewe.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye. Afungiye mu bintu bigiye bitandukanye. Hari ifungiye mu ducupa, hari ifungiye mu dukarito. Yose ikaba iriho utwapa tugaragaza uko ikoreshwa mu buryo bwizewe.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye bigiye ari byinshi, bimwe bikaba bizamutse ibindi bimanuka, bifite amababi agiye atandukana. Ibimera babikoresha bategura umuti gakondo uvura abantu.

Agacupa gato karimo umuti gakondo, kakaba gapfundikije umufuniko w'umweru, hashushanyijeho uruyuki, hakaba hasa oranje, aka gacupa karimo umuti ukomoka ku bimera ndetse uvura neza cyane.

Icupa rito cyane ririmo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, rishushanyijeho agakoko, kano gakoko rero ni uruyuki, bivuze ko uyu muti ukozwe n'ibyatsi ndetse n'ubuki.

Aya ni amacupa agiye atandukanye akaba arutana mu bunini ndetse akaba ariho n'ibyapa bigiye bitandukanye. Kuri aya macupa hariho ibyapa bigaragaza ko ari umuti gakondo wifashishwa.

Ibi ni ibimera gakondo byifashishwa hategurwa umuti gakondo, bifite amababi y'icyatsi kibisi, bikagira uturabyo tw'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, aho byifashishwa maze bigakurwamo umuti mwiza.

Umugabo uhagaze aho bacururiza imiti gakondo, ni etajeri irimo imiti myinshi cyane kuko igiye igerekeranyije hakaba hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru agira ati" "Kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo."

Ibimera bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, biteye mu murima, ni byinshi cyane. Leta y'u Rwanda ikwiye gufata ingamba zo gukumira ndetse no gusigasira imiti gakondo, kuko byagaragaye y'uko ivura.

Agacupa gato karimo umuti gakondo gapfundikijwe n'umupfundikizo w'ubururu, hakaba hariho icyapa cy'umutuku kirimo amagambo hejuru hariho amagambo agira ati :"Igisubizo kuri Amibe."

Ni ibimera biteye ahantu hamwe harimo ibirebire ndetse n'ibigufi, harimo ibifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'ibifite ay'umuhondo, ibi byose byifashishwa hategurwa umuti gakondo.

Akayetajeri karimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, hakaba hari umukobwa wambaye imyambaro y'umweru uhagaze ku ruhande, uri muri telefone, bigaragara yuko ari we uyicuruje.

Ubwoko bw'ibiti biteye ari byinshi ahantu hamwe, hakaba hari ibirebire ndetse n'ibigufi. Bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'ay'umutuku. Ibi byose byifashishwa mu gukora umuti gakondo, cyangwa se umuti ukomoka ku bimera.

Aka ni agatebo karimo amoko y'ibyatsi agiye atandukanye. Aha rero, bakaba bari gutegura umuti gakondo. Aho bifashisha ingeri z'ibintu bigiye bitandukanye. Bityo bagakora umuti mwiza, bitewe n'uburwayi bashaka ko uvura.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo, bikaba biri mu murima aho ari byinshi, Leta y'u Rwanda imaze kubona ko imiti gakondo ivura abarwayi, yamaze gufata ingamba z'uko igomba gusigasirwa.

Umuti mwiza cyane ukozwe mu bimera, uyu muti rero barawutunganya, aho bawutunganya neza maze bakawufunga mu ducupa, hari igihe bawukoramo n'ibinini maze bikifashishwa mu kuvura abantu.

Aya ni amoko y'ibimera bikaba biri mu murima, ibi bimera byose byifashishwa hategurwa umuti gakondo, aho babifata bakabyanika maze bikazavamo umuti mwiza cyane kandi wujuje ubuziranenge.

Itasi iteretse ku meza hejuru y'agatambaro, hakatiye indimu ziri mu gatasi nk'uko bigaragara harimo n'amagi, ibi rero ni imiti gakondo iba yakozwe hifashishijwe ibimera.

Iri ni icupa ririmo umuti gakondo. Rikaba ripfundikishije umupfundikizo w'umweru, imbere yaho hari amacunga akase ndetse hakaba hari n'agashushanyo k'agasimba gashushanyije kuri aka gacupa. Bigaragara ko uyu muti ukoze mu buki ndetse n'amaronji.

Iyi ni imiti gakondo ikaba iteretse ahantu heza cyane, hari ibimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Hejuru hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umutuku, bigaragaza yuko iyi miti ikozwe mu cyayi.

Agacupa k'umuti gashushanyijeho uruyuki, kakaba kari mu ibara ry'umweru, hari amagambo yandikishijweho ibara ry'ubururu, iruhande rwako hakaba hari ibipande bitatu by'igitakarubamba bacimbaguye, uyu ni umuti ukozwe mu buki ndetse n'igitakakararuwamba.

nNi ubwoko bw'ikimera gifite ikibabi tureture tugiye dusharatuyeho, giteye ahantu cyareze neza, ibi bimera rero barabisarura bamara kubisarura bakabitunganya bikavamo imiti ivura abantu.

Ubu ni ubwoko bw'umuti ukomoka ku bimera, ariko wifashishwa mu rwego rwo kwica udukoko tuba turi mu menyo, iyo uwukoresheje amenyo yawe aba urwererane mu gihe gito cyane kandi bikaramba.

Umurima urimo ibimera byinshi. Ibi bimera, bikaba bifite amababi meza cyane y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Ibi bimera, bivamo umuti gakondo, uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, hakaba hariho ikiganza cy'umuntu, wambaye umupira w'ubururu uri kugenda agisoroma, iki kimera kikaba kivamo umuti gakondo uvura kandi wizewe.

Uyu ni umurima, urimo amoko y'ibimera gakondo, byifashishwa mu gutegura umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye, usanga akenshi na kenshi zarananiranye kwa muganga.

Udukarito tubiri turimo imiti ikomoka ku bimera hashushanyijeho uruziga rurimo akambi hakaba handitseho makumyabiri nane kuri arindwi, bivuze ngo uyu muti uwukoresha amasaha makumyabiri n'ane ku yandi mu minsi irindwi.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa mu gihe cyo koza amenyo aho iyo ukoresheje amenyo yawe imyanda yose irimo ishiramo bityo amenyo akajya ahora yererana.

Aka ni agacupa gato cyane gafite umupfundikizo w'umweru, hakaba hometseho icyapa cy'umweru gishushanyijeho agasimba ndetse n'ibiganza byenda kuramukanya, uyu muti ukaba ukomoka ku bimera.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye, ateretse ku meza hakaba hari agasekuru karimo n'agahini k'umweru bifashisha batunganya iyi miti mu rwego rwo kugira ngo igire ubuziranenge.

Agasekuru k'umukara karimo utubara tw'umweru ndetse n'agahini bisa, kakaba gateretse hagati y'ibimera, ibi ibimera bivamo umuti gakondo, uvura wizewe kandi wateye imbere.

Udukarito turimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera. Ni imiti yatunganyijwe ikaba iri mu ducupa twiza ipanze mu dukarito. Aho agacupa kamwe bigaragara y'uko hariho akambi. Kagaragaza y'uko isa nk'iri mu ka kabiri.

Ubwoko bw'ibimera bikorwamo umuti gakondo, bikaba biri mu mavase, ni ibimera bifite amabara agiye atandukanye, harimo ibifite amabara y'umuhondo, amabara y'icyatsi kibisi, ndetse n'ayiroza.

Umuntu uri gusekura imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo mu gasekuru k'umweru. Nk'uko bigaragara uyu muti usa umutuku kandi uvura uburwayi bugiye butandukanye.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, iyi miti ikaba yifashishwa mu buzima bwa buri munsi ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, bityo bikabafasha kuba babikemura.

Aha hari imiti myinshi cyane ya gakondo ariko idatunganyije, hakaba hari agasekuru k'umweru karimo n'agahini k'umweru bifashisha batunganya aya moko y'imiti, kugira ngo havemo umuti umwe kandi uvura.

Umusore wihangiye umurimo ndetse w'umunyabwenge. Azi gukora imiti gakondo, aho ayisarura, akayitunganya neza, kugeza ayigurishije kandi ikavura abantu.

Ibimera byinshi cyane biri ahantu hagaragara yuko ari byinshi, harimo amababi maremare y'icyatsi kibisi hakabamo ibiti birebire by'inganzamarumbu, ibi biti rero byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibirahure bibiri biteretse ku meza, hakaba hari ikirimo ikiyiko, byose birimo umutobe ukoze muri tangawizi, ndetse n'ib'ibyatsi gakondo, aho uyu muti ufite ibara ry'umuhondo kandi uvura.

Agasekuru gato k'umweru harimo agahini k'umweru, imbere yaho hakaba agacupa karimo imiti y'umuhondo, hakaba ibibabi by'icyatsi kibisi, aha ni aho bategurira umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tw'imiti duteretse ku meza, hari kamwe bazamuye bashyira hejuru, hari n'akandi basa nk'aho bahengetse, ndetse hari n'agateretse gateretse ku meza y'umuhondo, iyi miti iba itunganyijwe mu bimera kandi ikavura.

Aka ni agacupa gato kakaba gafite ibara ry'umweru, gapfundikishije umufuniko w'umweru, hakaba hariho akapa kagaragaza izina ry'uyu muti, ndetse n'uko ukoreshwa mu rwego kugira ngo ukoreshwe uko bikwiye.

Aya ni amoko y'umuti gakondo agiye atandukanye, akaba afunze mu dukarito ndetse n'uducupa bigiye bitandukanye. Hari ari mu dukarito duto ndetse n'ari mu bikarito binini, hakaba ari mu ducupa duto ndetse n'ari mu bicupa binini.

Iyi ni imiti gakondo ikaba ifunze mu ducupa tumeze neza cyane ndetse hari n'ufunze mu icupa rimeze nk'irivamo umuti w'amenyo, uyu muti ukaba ukomoka ku kimera cy'igikakarubamba nk'uko biri kugaragazwa ku icupa.

Ikindi ni imiti ikozwe mu bimera. Ikaba yifashishwa n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, bakayinywa maze ikabafasha. Iyi miti rero uyikeneye wayisanga ariho hose mu gihugu mu gihe ufite ikibazo cy'uburwayi.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera, kikaba kivamo umuti gakondo, biteretse ahantu ubona ko birinzwe neza kuko bamaze gusobanukirwa ko ari ingirakamaro kuko bivura uburwayi.

Aya ni amoko atandukanye y'imiti gakondo ikomoka ku bimera, hakaba hari iri mu macupa, iri mu makarito ndetse n'iri mu ducupa duto, yose ikaba iriho ibyapa bigaragaza uko yitwa, indwara ivura n'uko ikoreshwa.

Igishushanyo kimeze nk'icyapa hari utundi tuntu tubiri tumeze nk'udupiloni ariko tugufi, hakaba hariho ibara ry'umuhondo two tukaba turi mu ibara ry'umweru, hakaba handitseho ati akagera medesine, bishatse kuvuga ngo ubuvuzi bw'akagera.

Icupa rito cyane ry'umweru ririmo utubara dutukura rikaba riteretse ahantu hasa umukara, iri cupa ririmo umuti gakondo utunganyije neza wagizwe ku kigero cyo kunyobwa.

Uducupa twinshi cyane duteretse ahantu, turimo imiti igiye itandukanye ikorwa mu bimera, bakayitunganya neza barangiza bakayishyira mu ducupa nk'uko bigaragara hari utw'icyatsi kibisi, utw'umukara ndetse n'umweru.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera ikaba ifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse hasi bigaragara ko hahungukiye n'andi yamaze kuma, ni byiza kwita kuri iyi miti kuko igira umumaro.

Iri ni icupa rito cyane riri mu mabara y'icyatsi kibisi, rikaba ririmo umuti gakondo, hakaba hapfundikijweho umupfundikizo w'icyatsi kibisi, hariho amagambo agira ati umuravumba uvura indwara zigiye zitandukanye.

Uyu ni umuganga ufite imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo. Mu miti gakondo naho haba hakenewe inzobere mu by'ubuvuzi kugira ngo iteguranwe ubuhanga kandi ibe itagira ingaruka.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera. Afunze mu ducupa twiza ndetse no mu bikarito, turi kubona inanasi. Bivuze ko uyu muti ukozwe mu nanasi ndetse no mu bimera.

Ibi ni ibimera biri murima, ibi bimera bikaba byifashishwa batunganya umuti gakondo, uyu muti ukaba uvura indwara zananiranye kwa muganga ndetse no mu yandi mavuriro.

Amoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera ateretse ahantu hamwe ari mu ducupa tureture, ari mu ducupa tugufi ndetse hari n'ari mu bintu bimeze nk'ibizamo kurogade aha rero iyi miti yose irifashishwa.

Iyi ni imiti gakondo igerekeranyije mu mayetajeri. Iyi miti igiye ifunze bitewe n'ingano umuntu akeneye. Iyi miti yose ikozwe mu bimera kandi iravura.

Utu ni uducupa turimo umuti gakondo, tukaba ari uducupa turi mu moko atatu, hari agasa ubururu gashushanyijeho agatsimba n'akandi gasa umweru gafite umupfundikizo w'ubururu ndetse n'andi acuritse.

Ibi ni bimwe mu bivamo imiti gakondo, aho turi kubona udukarito turimo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba hari inanasi ndetse n'imineke, aha bakaba babiteranya maze hakavamo umuti mwiza cyane uvura.

Aya ni amoko y'imiti gakondo afunze neza. Aha yamaze gutunganywa. Aho bayifashe bakayanika. Barangiza bakayifunga mu macupa meza cyane ikaba ivura indwara zitandukanye harimo n'izo mu kanwa.

Uyu ni umuti ukomoka ku bimera. Ukaba ufungiye mu gakarito. Uyu muti kuri iki gikarito hariho amagambo yanditse neza agaragaza uko witwa ndetse n'ingano. Bakagaragaza y'uko ufite amagarama magana atanu.

Aka ni agacupa gato karimo umuti gakondo, aka gacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umupfundikizo w'umweru, hakaba hariho icyapa cy'ubururu gishushanyijeho uruyuki bigaragara ko uyu ari umuti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'umuti gakondo, buteretse ku meza. Bakaba bamaze kubisoroma. Bagiye kubitegura, maze bivemo umuti umeze neza kandi uvura mu buryo bwizewe.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, iki kimera kikaba cyifashishwa hategurwa umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye, aho bawutegura maze bakawuha umurwayi wujuje ubuzirantenge.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo, bukaba burambitse ku meza. Ni uducupa tubiri ak'umuhondo werurutse, ndetse n'ak'umuhondo wa nyawo, hakaba hariho umupfundikizo w'umukara. Ak'umuhondo werurutse gafite umupfundikizo w'umuhondo, hasi hari ibimera bacimbaguye. Kuri utu ducupa hashushanyijeho igikakarubamba.

Ubwoko bw'ibimera buvamo imiti gakondo, iba iteguwe neza, aho usanga hari umuti uteguwe muri avoka, ndetse no mu gikakarubamba, uwo muti ukavura kandi neza.

Uyu ni umugabo uri mu murima irimo imiti gakondo igiye itandukanye ariko ikiri mu murima, aha rero ukaba ufata amababi cyangwa se ingeri warangiza ukazitunganya neza, zikavamo umuti mwiza cyane uvura.

Ni ikimera kirekire kinanutse, gifite utubabi tubyibushye kandi tureture, utu tubabi bakaba batwifashisha bategura imiti, baradusarura bakatwanika maze bakadutunganya hakavamo umuti mwiza cyane.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo. Hakabamo ibiti birebire. Ni byiza ko Leta ahantu nk'aha ihabungabunga, ikahakorera uburinzi kugira ngo iyi miti itangizwa.

Iki ni icyatsi k'ikimera, kivamo umuti gakondo. Gifite amababi y'icyatsi kibisi. Kikagira uturabyo tw'umweru ndetse n'umuhondo. Kikaba kizwi ku izina ry'inyirabarasanyi, yifashishwa mu gutegura umuti gakondo.

Aya ni amoko y'imiti gakondo, hari amafoto agaragaza buri bwoko ndetse hakaba n'akambi kagaragaza buri bwoko n'uko bukora, aho bagenda bagaragaza yuko harimo ukuntu bigira uruhererekane.

Iri ni icupa rito cyane ry'icyuma, rikaba ririmo umuti gakondo uvura uburwayi bugiye butandukanye, uyu muti ufite ibara ry'umukara, aho wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zirimo uruhu ndetse n'izindi.

Aya ni amacupa arimo umuti gakondo ukomoka ku bimera, hakaba hashushanyijeho igikakaruwamba ndetse n'uruyuki, ibi bikaba bivuze ko uyu muti ukozwe n'igikakarubamba ndetse n'ubuki.

Aya ni amacupa mato ndetse n'udukarito hakaba harimo imiti yifashishwa ya gakondo, aho uyikoresheje ashobora kugira ubuzima bwiza kandi ikaba ifite ubuziranenge.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera, bufite amababi y'icyatsi kibisi, hasi hari ay'umuhondo, ibi bimera byose birifashishwa mu gihe bategura umuti gakondo, imiti gakondo iravura mu gihugu ndetse n'ahandi hose.